Iyo ugiye nko mu isoko ugiye guhaha nk'ibikoresho byo muzu hari ibyo utagakwiye kurengaho. Nk'indobo, ibase, isafuriya, udukombe n'ibindi byinshi byagufasha mu kubaka urugo. Ni byo bikoresho bya mbere ubanza kwifashisha, kubera ko nk'ibase uyikarabiramo, uyogeramo, isafuriya ukayitekamo, ibikosi ukabyifasha mu kunywa amazi.

Burya amatara ni meza, ubasha gukora bizinesi zawe habona iyo ari nijoro umwijima ntago uba ugwitayeho kubera urumuri ruba rumurika mu bicuruzwa byawe, isaha n'isaha abakiriya bakaboneka haba nijoro batikanga ngo nta bareba, byose bigaragara neza ibyo ucuruza.

Burya ibyapa ni byiza, iyo ugiye ahantu utari uzi wenda nk'urugero aho ugiye kwiyogoshesha nko kuri salo, ukabona nta capa nta bwo upfa kuhamenya, ariko icapa gihari ubasha kumenya aho ibintu bikorerwa haba ari salo cangwa se n'ibindi bicuruzwa, ariko icapa gihari kikwereka amerekezo meza.

Iyo ugiye nko kuri resitora ushaka kwifatira icyo kurya, ugasanga aho icyapa kikugaragariza ibihari, nibwo ubasha kwinjiramo ukabaza icyo ushaka, kuko uba wamaze kubibona ibirimo, akaba aribyo ujya gufata mu buryo bwo kwimara inzara.

Burya isoko ry'ibicuruzwa by'imyenda ryakagombye kuba ahantu hisanzuye, urugero nk'i Musanze bakarishira muri Goyiko n'ahandi hafite isuku, ku buryo n'umukire yaje kugura imyambaro akabona ifite isuku hasukuye neza.

Burya amaduka menshi aba agizwe n'ibintu byinshi, ariko iyo usanzemo nk'amavuta yo gutekesha, ibiribwa byinshi byuzuyemo, ubuto, amakaroni, ibyo urahaha byose byo guteka birimo, ni yo butike iba ifatika.

Burya imbuto ziba nziza iyo umuntu azisamuye aziriye nka mu gitondo, cyangwa se amaze kurya ibyo kurya, akenshi akibanda ku maronji, wotameloni, ibihaza, ibinyomoro n'ibindi.